Aba bantu, bicaye ahantu, imbere yabo ku meza hari amacupa arimo amazi, kandi aba bantu ni batatu, inyuma yabo hari icyapa cyanditseho Eyateli, ibara rimwe byanditseho umweru, ahandi ni mu umutuku.

Aba bantu bahagaze hano, harimo abambaye imipira y'ubururu, harimo n'umusaza wambaye ikoti, harimo n'umugabo ufite mikoro mu ntoki, uri kuyivugiraho, hakaba ari n'umugabo uri gufotora na terefone.

Uyu mugore ni inzobe yambaye ikanzu y'umweru irimo akabara k'umukara, yambaye itabuririya y'umweru, yambaye ingofero y'umweru irimo akantu k'umukara kandi uyu mugore afite na telefone mu ntoki.

Aba bantu ni batanu, harimo abagore babiri n'abagabo batatu, hakaba harimwo abirabura babiri n'abazungu batatu, hakaba harimo umuzungu wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara.

Aha ni mu isoko hari ababyeyi bafite imyenda ku ntugu kandi hari podaboda zimanitse; hari amabasi agerekeranye hasi y'icyatsi kibisi, n'itukura, n'ubururu.

Aha ni mu isoko, bacuruje inyanya, hari abafite ibitunguru ku rutaro, hari umusilamu witadiye, hakaba n'abantu bafite intoryi ku rutaro, hakaba n'abandi bafite pavuro.